Akabari ni keza cyane, kuko gatuma abantu bashobora gupanga bakahahurira, bagategura inama, bakajya inama, ndetse bakagira ibyo bategura bicaye aho ngaho bafata akantu, akabari ba kabamo ibiryo, akabari kabamo inzoga, ubwo urumva ko iyo abana bari kuganira bashobora gufata icyo bashaka mu kabari.

Mu tubari twinshi cyane cyangwa se amabara akunda kuba harimo inzoga z'ubwoko bwinshi haba harimo amarikeri cyangwa izo bitaga ibyuma, amafanta n'izindi nzoga ziba ari nziza.

Akenshi amazu cyangwa se amabara acuruza inzoga, bakunda kugira ibyapa ku muhanda, bigaragaza ko aho hantu bacururizamo iyi nzoga runaka.

Muri bara, cyangwa se mumabara, bagira inzoga z'amoko menshi cyane yatandukanye, muriyo haba harimo amarikeri, inzoga za rufuro, amafanta n'izindi nyinshi cyane.

Ifi iba nziza cyane kandi abantu benshi bakunda kuyirya. Noneho kandi abayiroba babona inyungu nyinshi cyane kuko iba ikunzwe n'abantu benshi.

Mu mabara akenshi hakunda kuba harimo amatara aba atari kumurika cyane, afasha abantu kunywa bisanzuye badafite ikibazo cy'uko abantu babitayeho cyangwa bari kubareba.

Mu ma bara akenshi hakunda kuba harimo intebe ndende cyane, kuburyo umuntu azicaraho noneho agatereka inzoga kuri kotwari . Noneho habamo n'amateleviziyo ku buryo abakiriya banywa bari kureba indirimbo cyangwa filime.

Ifi iba nziza cyane, ifi bayirisha ibirayi byacishijwe mu mavuta, ndetse kandi bayirisha umuceri, magi n' utundi tuntu.

Ibiti, inzu iteye irangi ry'umweru, utubindi turimo indabyo, umucaca, umutaka w'umutuku, intebe.

Iyi nzu bigaragara ko icururizwamo ikijyanye n'amata. Amata y’inyange，inyange，amata yitwa inyange， umuntu ashobora kuhajya，akayafata akayahanywera，cyangwa se akayahakura akayajyana mu icupa， akazajya ayanywa gake gake.

Mu ibara habamo firigo zo gufasha abantu gukonjesha inzoga cyangwa se kuzishusha noneho abakiriya bagasaba cyangwa bakabaha inzoga bashaka.

Iyi nyubako yitwa inyange, ikorerwamo ubucuruzi bujyanye n'amazi y'inyange n'amaji y'inyange, ni ibindi binyobwa byinshi cyane.

Hari amazu aba yubatse neza hari aba yubatse ari inzu imwe hari n'ayandi aba agerekeranye ari yo bakunda kwita ama etaje

Amakenkayori bacururizamo ibikoresho byinshi bikoreshwa mu bwubatsi, haba harimo amatiyo, amabati, imisumari, n'utundi dukoresho twinshi.

Aya mazu n'amabotiki yegereye umuhanda, bashobora kuyacururizamo akabari cyangwa se amasaro, kugira ngo abantu baturutse hirya no hino bakahaca babone ko hari icyo bahakorera, noneho icyo bashaka bajye kukihashakira, hari n'akazu ba bacururizamo mitiyu.

Hari amazu akorerwamo ibijyanye na serivisi, ari byo bita serivisi zo ku irembo, cyangwa se zo mu irembo, ndetse hari n'ayandi agira serivisi zijyanye no gucuruza amanite, ku miyoboro igiye itandukanye, nka eyateri na emutiyene.

Amabutike cyangwa se amazu acuruza ibikapu, akunda kugira abakiriya benshi cyane kuko abanyeshuri bagura ibikapu byo kujyanamo amakayi ku ishuri.

Amazu menshi acuruza imyambaro bakunda kuyishyira hanze kugira ngo abagenzi bahaca bakagira uwo bashima bajye bahita bawugura.

Ku isoko ry'imyenda, habamo amoko menshi cyane y'imyenda habaho imipira igira ingofero, hakabaho amapantaro ndetse n'utundi dupira.

Amazu cyangwa se amabutike, acuruza ibikoresho bishyirwa mu modoka cyangwa se bisimbura ibiba byapfuye, biba biri mu modoka, noneho bakabikuramo bakabisimbuza ibyo ngibyo bacuruza.

Amazu menshi yo mu Kinigi aba yubatswe neza cyane. Kuko amazu menshi ba mukerarugendo kubera ko bahahora, iyo babonye ari meza, bakunda no kuyacumbikamo. Niyo mpamvu bayubaka neza.

Imeli ifite akamaro kanini cyane, imeri zirakoreshwa mu kohereza ubutumwa no kubwakira, imeri zohereza ndetse n'amafoto, zohereza dokima, zohereza ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, imeri kandi ibika nimero, imeri ni nziza cyane ku buzima bw'umuntu.

Ahantu hitwa kuri fera gesite bare, n'ukuvuga ngo n'inzu cyangwa se n'inyubako ikorerwamo icyo nakwita nk'aho ari resitora, ko bagira serivisi nyinshi harimo kugurisha ibiryo n'icyo kunywa, ndetse n'amacumbi ku bantu bifuza kuharara cyangwa kuharuhukira.

Amakarito yo muri botiki abikwamo ibintu byinshi cyane, bashobora kuyabikamo amabiswi, bakabikamo ibibiriti, bakabikamo n'ibindi byinshi cyane.

Mu mabutike bacururizamo ibintu byinshi cyane, bacuruza amagaze, amazi, amatwisite, amagi, imiceri n'ibindi biribwa cyangwa ibindi bikoresho byinshi cyane.

Amazu akorerwamo ubucuruzi bw'inzoga aba ari meza cyane kuko afasha ba nyirayo kubona abakiriya. Iyo wubatse neza ndetse banacuruza utuntu twiza cyane nk'inzoga nziza zikunda kunywobwa n'abantu benshi noneho abakiriya bakazajya baza bakazigura bakabaha amafaranga.

Habaho amazu akorerwamo serivisi za Emutiyene, kandi Emutiyeni ni umuyoboro mwiza cyane ukunda gukoreshwa n'abantu benshi, kuko igira interineti zihuta.

Iki cyapa cya Nguga fashoni shopu kigaragaza ko iyi nyubako cyangwa se uriya muryango ukorerwamo ubucuruzi, cyangwa se bakaba banagukodesha ushaka gukodesha ikoti, unashaka kurigura ntibivuze ko waribura ahubwo warigura bakariguha.

Hari amabutike aba yubatse mu buryo butandukanye, hari aba yubatse noneho bamara ku yubaka, bamaze no kuyahoma, bakayatera sima ari ibyo bita kuyatera igishahuro, noneho bakazayatera irangi, hari n'ayandi bahita bomekaho amakaro.

Habaho amazu yifashishwa mu kuyakoreramo imigati n'amandazi yo kugurisha abantu, bakajya kuyicururiza mu mabutiki y'iwabo.

Mu isoko bacuruzamo ibintu byinshi cyane bitandukanye, bacuruza udufuka bagurisha noneho abatuguze bakazajya batubikamo, cyangwa baduhahiramo. Noneho bacuruza imyenda, bacuruza ibikapu, n'ibindi byinshi cyane.

Hari amazu amwe na amwe bacururizamo, ibiribwa bitarenze cyane, aho usangamo amacapati, icyi, imbada cyangwa se ibidiya.

Ingofero, amabati y'ubururu, umugabo ucuruza imiti, amashakoshi, amavuta na za parufe.

Kenkakayore bacururizamo ibyuma bifashisha mu gukora inzugi, amadirisha, kandi habamo imisumari, habamo n'ibindi bikoresho byose bikoreshwa mu bwubatsi.

Hari amazu akorerwamo ubucuruzi bujyanye n'amasabune, cyangwa se amavuta n'ibindi bikoresho byose bikoreshwa mu masuku. Cyane cyane noneho abanyonzi na bo bakunda kuba bari imbere y'amazu, kugira ngo babone abakiriya bavuye guhaha bakabatwaza.

MateLa zirimo ubwoko bwinshi cyane. Hari iza Rwandafomu, hari n'izindi matela nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Matela baziryamaho kuko zifasha umuntu gusinzira neza kuko aba aryamye ahantu heza cyane.

Hari amazu akorerwamo ubucuruzi bw'imiti ariyo bita amafarumasi, hari n'adi bakoreramo ibijyanye na sitidiyo.

Inzu bakoreramo ubucuruzi bw'ibitabo, amakaramu, amapenso, n'impapuro, n'utundi dukoresho twinshi cyane, tujyanye no kwandika, cyangwa se no gusoma.

Habaho amabutike acuruza imikoropesho, ibiroso, insinga zikoreshwa mu kwesitara inzu cyangwa se amazu, habamo n'ibindi bikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye.

Hari amazu cyangwa se amabotike acuruza ibikoresho bigiye bitandukanye, hari amabotike acuruza ibikoresho bya elegitoronike, hari n'andi acuruza ibiribwa, hari andi acuruza ibikoresho bigiye bitandukanye, hari n'andi acuruza amafirigo n'ibindi byinshi cyane.

Amabotiki acuruza ibikoresho birimo amabaro, amakorogate, imishwara, amasupaguru, n'ibindi bikoresho arunguka cyane.

Akazu gakorerwamo ubucuruzi bw'ibiryo cyangwa se amaresitora n'amabara aho usangamo icyo kunywa n'icyo kurya byose byose ugasanga birimo.

Amazu menshi akorerwamo ubucuruzi aba cyane cyane ari ku muhanda, akenshi aba yubatse kimwe kandi mu buryo bwa ruheneka.

Iyi botike icururizwamo amazi y'inyange cyangwa se amaji y'inyange, aya amazi cyangwa se ayamaji, aba afite ubuziranenge bwiza cyane.

Amabutiki bacururizamo ibyuma by'imiti cyangwa se ibyuma bakoreshaga mu gutera umuti ibihingwa. Bacuruzamo kandi n'imifuka yifashishwa mu bintu bigiye bitandukanye.

Amabotike aba atondekanye ari imbere y'umuhanda, aba ari meza cyane, kuko akenshi bacururizamo ibiribwa, ibikoresho, n'ibindi byinshi cyane, ku buryo kubipakira mu modoka, cyangwa ku kindi kinyabiziga byorohera umuguzi.

Amazu acururizwamo ibyo kunywa, abamo amaji, n'imigati, aba ari meza cyane, kuko afasha abantu kubona ibyo baba bakeneye.

Aha ngaha kuri uyu muryango bacuruza ibintu byinshi cyane, harimo inzoga zikoreshwa mu bukwe cyangwa se mu birori, bacuruza amagaze bayatekaho, bacuruza n' utundi dukoresho twinshi cyane cyane.

Butiki irimo amakayi bandikamo, harimo amabahasha, harimo umunyu wa Habari, harimo n'udusenda tw'akabanga, harimo indagara, harimo umuceri uri mu mashashi, harimo n'undi mufuka ushobora kuba urimo ibishyimbo.

Habaho amazu cyangwa se amabutike bacururizamo imigati, amandazi cyangwa se n'utundi tuntu twiza nk'amakeke n'ibindi.

Muri butike bakunda gushyiramo amatara, yaka cyane kandi aba ari manini, e kugira ajye abasha kumurikira ibi bicuruzwa byose.

Mu mabara cyangwa se mu maresitora bateka ibiryo ku mashyiga y'amashanyarazi; cyangwa se ku magaze hari n'abandi bateka ku mashyiga noneho kugira ngo babone ibyo guha abakiriya.

Uyu muhanda urimo abantu benshi cyane kandi aha ngaha bigaragarako bahakorera intebe, intebe z'imisego kuko hariho amamatera bashyiramo ndetse n'imbaho bakoresha. Matera rero ni nziza cyane mu buzima ku buzima bw'umuntu, kuko baziryamaho bakarara bameze neza.

Butike irimo amandazi, irimo utudobo, icupa rya fanta, harimo n'imikati iba mu dushashi, harimo amabase, amagi ari mu matireyi, hakaba n'udufuka bacuruza bajyana, batwaramo ibintu bahashye.

Inzu bakoreramo amaradiyo yapfuye ,amateleviziyo yapfuye, amaterimosi yapfuye ,za ampuri nazo zapfuye, ndetse n'utundi dukoresho twose tuba twarapfuye badukorera aha ngaha muri iyi nzu ndikubona.

Amahoteli aba meza cyane, kubera ko mu mahoteli bacuruza icyo kunywa, n'ibyo kurya, noneho ubwo umuntu uba ushaka gusohoka akahasohokera, noneho akaba yanasohokana n'umuryango bakajya kuganira, no kuharuhukira.

Hari amazu cyangwa amabutike, bacururizamo ibijyanye n'ibyo kurya, cyangwa se ibijyanye n'ibyo bateka nk'ibihaza, intoryi, inyanya, n'ibindi. Muri make ni umuryango ucururizwamo ibijanye n'imbuto cyangwa se ibijyanye n'ibiribwa.

Amazu y'amabutike aba ari menshi cyane, kuko acururizwamo ibintu byinshi cyane bitandukanye, imyenda, ibikoresho byo mu rugo, cg se n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu kwesitara amazu.

Iyi nzu ikorerwamo ubucuruzi ariyo yitwa supamaketi, iyi nzu habamo ibintu byinshi cyane, umuntu ku buryo ashobora kuhasanga buri kimwe cyose yifuza. Supamaketi rero ibamo amabombomo, n'amabiswi y'ubwoko bwose n'ibindi byinshi cyane.

Amabotike bacururizamo ibintu byinshi bitandukanye, hari amwe bacururizamo amarangi yifashishwa mu gusiga amazu, mu gusiga inzugi n'ahandi hantu henshi cyane.

Amazu aba yubatse mu mujyi, cyangwa se aba yubatse impande y'umuhanda, bayacururizamo ibintu byinshi cyane ibiribwa na za serivisi.

Kofi ikundwa n'abantu benshi cyane, ariko cyane cyane igitsina gore, kuko ibaryohera cyane. Kofi rero ni ikinyobwa kiba ari cyiza cyane.

Hari amabutike acuruza imiceri, ayandi akaba acuruza ibijyanye na za antiboloke bashyira ku matelefone, n'ibindi bikoresho byinshi cyane.

Aka kazu bakita agakiyosike aka gakiyosike gafite imiryango ibiri, ndabona gafite n'idirishya, umuryango wa mbere urafunze uwa kabiri uriho uwo muntu udoda imyenda ari we bita umutayeri.

Mu madini cyangwa mu nsengero bagira aba kirisitu, bakagira n'abaririmbyi. Abaririmbyi nibo baba bafite gahunda zo kuririmba mu rusengero cyane, kurusha aba kirisitu baba barimo.

Amakorari akunda kuririmba mu rusengero, noneho agafasha abakirisitu kwegerana n'Imana biciye mu ndirimbo cyangwa se binyuze mu ndirimbo.

Aha bigaragara ko ari hotel. Kandi hotel hazamo abantu baturutse hirya no hino, baje kuhasohokera. Cyane cyane nk'aha ngaha, kubera ko hegereye ibirunga, hashobora kuza abazungu benshi cyane ndetse bagatanga n'amadovize. Bityo igihugu kikagira iterambere.

Mu mahoteri gakunda kuba arimo amapisine afasha abantu bayagiyemo kuyogeramo, bagira kandi icyo kunywa n'icyo kurya.

Butike icuruza ibintu byinshi cyane bitandukanye, ni byo mbona hano, ndabona icuruza ifu y'imvange. Ifu y'imvange rero batekamo igikoma ,noneho kikaba cyiza ku bana bakiri batoya ,ndetse n'ababyeyi cyane cyane bonsa n'abatwite ,ndetse bacuruza na kanta ,izi kanta zikoreshwa mu kuzitera mu musatsi.

Butike bagira ubwoko bwinshi icyo kunywa harimo: amafanta, amaravita n'amatwisite n'andi moko menshi y'ibyo kunywa.

Habaho ubwoko bwinshi bw'imboga. Imboga zigira amoko menshi kandi zirafasha, zubaka n'umubiri.

Ibidomoro bivamo amavuta nta bwo bahita babita, ahubwo barabirundarunda hanyuma bakazajya kubigurisha, kuko ababigura barabyifashisha mu kujya kubivomeramo amazi, cyangwa se bakazajya babiranguriramo inzoga, cyangwa n'imisururu.

Inkoko n'inkwavu bakunda kuzijyana mu isoko bazitwaye mu mifuka, kandi n'amatungo magufi yakunda kororerwa mu rugo.

Isoko ry'ibiribwa ribamo ubwoko bw'ibiribwa bwinshi cyane, haba harimo inyanya, amakaroti, intoryi, imiteja, ibitunguru, n'ibindi byinshi.

Amasoko bajya baracururizaho ibijyanye n'imboga, haba harimo: intogi, inyanya, ibitunguru, karoti n'ibindi.

Isoko bacururizamo ibintu byinshi cyane bitandukanye, harimo amasahani, ibiyiko, amajyeri, ibirayi, ibijumba, amakawunga, inyanya, inkweto, n'ibindi byinshi cyane bitandukanye.

Akenshi ku masoko cyangwa mu masoko haberamo ibikorwa byinshi cyane haba harimo abantu bakora amatelefone, amateleviziyo n'ibindi bikoresho hari n'abandi baba bari gucuruza ibintu bigiye bitandukanye.

Isoko ry'ibiribwa, imboga n'imbuto, riba byiza cyane, kuko iyo umuntu aba ashaka kugura imboga azihasanga.

Ku isoko bacuruza utubirikira, bacuruza amakamba azirika inka, bacuruza utwirori, bacuruza amaga bakarabisha, ndetse bagacuruza n'utundi dukoresho twinshi.

Mu isoko bajya baracururizamo ibintu byinshi cyane, bijanye n'ibiribwa, ibinyobwa, imyambaro, n'utundi dukoresho twinshi cyane, nk'udusahane, ibiyiko, n'ibindi.

Etaje yubakishijwe inkingi z'amatafari，inzugi z'utwuma， abantu ，akayira k'ibinyabiziga, n'abantu，n'amabati y'umweru.

Imbizo, umugabo ukora imbizo, umugabo uri guhaha, umubikira uri guhaha ibitunguru ,amaronji n'akameza k'umuhondo, imodoka y'umukara.

Isoko ririmo ibikoresho, cyane cyane byo mu rugo, harimo amabase, harimo indobo n'imipfundikizo yayo, harimo ibikombe ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye nk'ibiyiko.

Mu isoko bagira cyangwa se bacururizamo ubwoko bwinshi bw'ibintu, haba imyambaro cyangwa se ibikoresho byose biba birimo.